Iduka ry'imyenda rikora ibijyanye n'ubukorikori amakanzu y'ubwoko bugiye butandukanye kandi bafite n'amaherena agiye akoze mu mabara atandukanye.

Hirya no hino hagiye hari kantine, kantine usangamo amata, amaji, amazi, amandazi, capati, amagi, imigati ndetse n'ibindi, hari n'aho usanga bafitemo ibiryo.

Bank iherereye kabuga yagenewe abaturage kugirango bizigamire biteze imbere umuntu yaje kwaka serivice kandi ikindi ifite ibirango biyiranga kuburyo uwuje wese atayiyoberwa.

Muri hoteri n'amaresitora hirya no hino bagira serivisi yo kugurisha ibiryo umuntu atavuye aho ari. Aho kugira ngo ibyo biryo bikugereho hifashishwa umumotari ukorera iyo resitora cyangwa hoteri, akabikugezaho mu gihe kitarambiranye, kandi akakugezaho ibiryo wifuza kurya.

Hirya no hino hari supamameti zigiye zitandukanye zirimo ibintu byose. Urugero harimo amata ya nido, amajyane ndetse n'ibindi byose abantu bashaka baba bakeneye.